Hano turi kuhabona umwana usa nk'uri gukina n'amarangi, ayo marangi aratandukanye, atandukanye amabara ari mu udukombe ariko uwo mwana ari gukina nayo afite n'akaraso.